Igihugu cy'iwacu tugira ibidufasha mu gucunga umutekano nka kamera, izo ngizo ziba ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye nko ku muhanda, mu bigo bya polisi, n'ahandi hose haba hari abagizi ba nabi.

Imodoka zigiye zitandukanye kandi zigira akamaro kagiye gatandukanye, hari imodoka bifashisha bari kuzimya umuriro, ahantu habaye inkongi kugira ngo n'ayandi mago atabasha gufatwa, maze polisi ikazana imodoka yo kuzimya aho hantu kugira ngo abantu baturiye aho, badakomeza kugira igihunga.

Mu Rwanda tugira abacunga umutekano bagiye batandukanye, hari abambara imyenda isa n'icyatsi abo ngabo bacunga umutekano ku karere, bigatuma igihugu cyacu kigira umutekano uhagije.

Igihugu cy'u Rwanda tugira abacunga umutekano bagiye batandukanye, kandi bambara imyambaro igiye zitandukanye. Hari abambara imyambaro isa icyatsi, abo ngabo barinda umutekano ku karere, maze tukagira umutekano uhagije.

Mu Rwanda tugira abaducungira umutekano mwinshi cyane, ugiye utandukanye, ku buryo umuntu ubibonye abona ari byiza. Kandi usanga mu muhanda nta kavuyo, kuko usanga abagenzi bagenda n’amaguru bari kugendera mu gice cyabo, ndetse n’imodoka zigiye ahantu hagiye hatandukanye ziri kugendera mu mwanya wazo. Ukabona ni byiza cyane.

Mu muco gakondo twagiraga ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Twagiraga isekuru, iyo ngiyo bayifashishaga bari gusekura imiti nyinshi cyane igiye itandukanye, bifashishaga bari kuvura abantu.

Mu muco gakondo bakoraga utuntu twishi cyane tugiye dutandukanye, harimwo imitako. Iyo ngiyo bayishyiraga mu nzu, maze inzu zigasa neza, maze abayibonye bakayitangarira, bakishima, bakanezerwa ku buryo buhebuje bwo hejuru.

Abakaraza ni beza cyane, bavuza ingoma neza bagatuma abantu bishima cyane, banezererwa mu bintu byose barimo. Bajya gususurutsa abantu mu bitaramo hirya no hino, bagasuhuza abantu neza bakishima cyane banezerewe.

Mu Rwanda harimo umuco mwinshi utandukanye. Hari utuzu abami babagamo kera, hari inyambo nziza cyane ziteye amabengeza kuzireba, ku buryo abantu bazirebaga baranezerwaga cyane. Kuko zatangaga n'amata aryoshye bihebuje.

Igiseke ni kiza cyane. Kigira amabara meza cyane, y'umweru, ay'icyatsi, harimo n'agakara gacyeya, icyo giseke urakireba ukabona kiranejeje, ku buryo n'iyo ugisurishijemo umuntu abona gisa neza, bikamunezeza.

Umuco w'iwacu bagira umuco w'incuke utandukanye akabindi bagakoreshaga bari gutekamo ibiryo, kandi ibiryo byatekewe muri ako kabindi byabaga biryoshye cyane bishimishije.

Umuco w'iwacu bagira uburyo bwinshi cyane bwo gutekamo, hari imyumbati hari ibishyimbo hari n'umutsima, ibyo byose iyo wabivanze iyo uri kubirya, wumva ari byiza cyane biryoshye bikakunezeza.

Ababyinnyi ndabakunda cyane, kuko usanga bambaye ibyenda mwiza cyane nk' umushanana, imikenyero, ibyo ngibyo bituma iyo uri kubareba wumva unezerewe cyane kurushaho.

Ingorofani ni igikoresho cyiza cyane, kidufasha mu mirimo igiye itandukanye, ifasha abantu gutunda ifumbire iyijyana, iyijyana mu myaka maze imyaka igashisha neza, ibifashijwemo n'ingorofari.

Mu muco wacu twagiraga ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari akamamiyo, akongako bagakoreshaga bari kuvanga ibiryo bari kumva niba bihiye cyangwa biryoshye.

umuduri ndawukunda cyane, ususurutsa abantu mu bitaramo, mu mudugudu, bigatuma abantu bishima cyane, banezerewe, kubera yuko bumvishije umuduri, banezerewe cyane.

Mu muco w'iwacu twagiraga ibikoresho bigiye bitandukanye kandi binejeje. Hari nk'agacuma ako ngako bagakoreshaga bari kunywa inzoga maze uri kuyinyweramo akaryoherwa cyane.

Gushora inka ni byiza cyane kuko bituma inka ziyongera umukamo maze tukabona ayo kujyana ku masoko tukisagurira nayo kunywa, abana bakabona amata menshi yo kunywa yujuje ubuziranenge.

Mu muco w'iwacu tugira imbyino nyinshi cyane zitandukanye, hari nk'abagore babyina imbyino za taradisiyoneri izo zo ziba zinejeje cyane, zishimishije ku buryo uzibonye zigutera amabengeza bigatuma uhora uzireba.

Mu muco w'i wacu baba bafite ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, harimo nk'ingobyi yatwarwaga n'abantu bane, bigafasha abarwayi kugera ku kigo nderabuzima ndetse n'ababyeyi bagiye kubyara bakagerayo bihuse.

Mu muco w'iwacu twagiraga ibikoresho bitandukanye. Nk'isekuru bayikoresha bari gusekura isombe, bari gukora umuti, maze abantu bari kuyikoresha bumva bishimye cyane banezerewe.

Mu muco w'iwacu bakundaga kubeta ifu zigiye zitandukanye, bakoresheje urusyo n'ingasire kandi hakavaho ifu inoze cyane ishimishije.

Mu muco w'iwacu twagiraga ibikoresho byinshi bitandukanye bidufitiye akamaro. Nk'uruho rwadufashaga twaruriragamo mu gihe amasahani atari yaza, abantu bakarya bakaryoherwa cyane.

Mu muco gakondo twagiraga urusyo n'ingasire, ibyo ngibyo byadufashaga gusya ifu nziza cyane inoze, maze tukabona umutsima n'ifu y'igikoma maze tukarya tugahaga.

Mu muco gakondo, twagiraga ibikoresho bigiye bitandukanye hari nk'uduseke, utwo ngutwo badukoreshaga bagiye gusura ahantu nko mu makwe, aho ngaho bakadutangamo ibiseke bari kuduha abakecuru.

Mu muco gakondo twagiraga imbyino nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hari nk'imbyino za taradisiyoneri ,izo ngizo abantu bazibyinaga akenshi bishimye, kandi hari n'igihe bazibyinaga bavuye ku rugamba batsinze.

Inzuki ndazikunda cyane kuko ziduhaga ubuki, maze bigatuma tunywa ibintu biryoshye, turya n'ibintu biryoshye. Maze kuko ubuki ari n'umuti uvura indwara nyinshi cyane zitandukanye mu buzima bwacu.

Inka y'inyambo ni nziza cyane. akenshi usanga ifite amahembe maremare asa n'umweru. Izo nka bakundaga kuzikoresha mu bukwe bari kuzitangamo inkwano bari kuziha umugeni.

Imbyino gakondo ni nziza cyane. Kuko idufasha mu gususurutsa abantu mu bitaramo hirya no hino. Kandi ikadufasha mu makwe agiye atandukanye, kandi iyo bambaye imishanana na' mayugi ubona bisa neza.

Mu muco wacu bagira ubukorikori bwinshi cyane bugiye butandukanye. Bakora uduseke twifashisha turi gusura ahantu henshi. Kandi bakora udukoko twiza cyane tunejeje.

Mu muco nyarwanda twagiraga ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, twasangaga dufite nk'akabindi. Ako ngako twakwifashishaga turi guteka nk'igikoma, isombe. Bigatuma ibiryo biryoha cyane ku buryo wakombaga n'umunwa.

Inyambo ni nziza cyane usangaga zifite amahembe maremare agonze neza, kandi ni nziza kuko zitanga amata menshi cyane, kubera uburyo ari nini, kandi bakunda kuzikoresha mu bukwe bugiye butandukanye, kubera 'arizo ubona ziberewe mu gukoreshwa mu bukwe.

Cagini nziza cyane, idufitiye akamaro kagiye gatandukanye, kuko ifasha gushyira umuriro mu matelefone, iyo wacometse kuri purize, usanga telefone umuriro wagiyemo ari mwinshi zuzuye.

Amatara yo ku muhanda ni meza cyane, atuma tubona aho tugiye ari kuduha urumuri, kuko aba ari hejuru cyane, maze ugiye ku kazi nijoro akagenda neza adasitaye.

Inka ni nziza cyane ziduha ifumbire kandi zikaduha amata, zikaduha n'inyama, kuko zituma tugira ifunguro ryiza cyane, ririmo ibikomoka ku matungo kandi tukabasha gusagurira amasoko, agiye atandukanye hirya no hino.

Gutanga imisoro ni byiza cyane, bidufasha mu gukora ibikorwa remezo bigiye bitandukanye mu gihugu, nk'amashuri, insengero n'imihanda. Ibyo byose iyo tubikoze neza, tubona imisoro myinshi ihambaye mu gihugu cyacu.

Ku kiliziya haberayo ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, bituma abantu bahurirayo ari benshi, hari igihe bagiye gusenga ,hari n'igihe abantu bakoze ubukwe hakaza abantu benshi.

Imisoro ni myiza cyane ifasha mu gukora ibikorwa remezo bitandukanye, hirya no hino mu gihugu nk'amashuri , insengero ndetse n'ibindi byinshi. Bigatuma u Rwanda rwacu ruhora rukeye, dufite n'umutekano muri byose.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane, nk’amashuri, insengero. Byose bidufasha mu kubona imisoro, tukabaho neza mu mutekano, twishimye cyane kubera ko tubifite.

Amasoko meza agezweho mu gihugu cyacu ,bituma abantu bacuruza neza banezerewe kandi bakajyana bakiri bake cyane kubera yuko uko igihugu cyacu gisigaye kiritabwaho ,mu mirire myiza no mu mikorere myiza.

Mu gihugu cy'iwacu, tugira abaporisi badufasha mu gucunga umutekano hirya no hino hatandukanye habaye ibibazo, kandi bakadufasha mu kubaho neza mu mibereho yacu.

Uburenganzira bwa muntu ni bwiza cyane, kuko budufasha mu kubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, nta makimbirane, nta ntonganya mu mudugudu wacu, tukanezerwa cyane.

Imodoka ndazikunda cyane, zifasha kugera ibicuruzwa ku masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu, cyane cyane nk'imbuto nka za wotameroni, amaronji n'izindi mbuto zigiye zitandukanye mu Rwanda.

Imodoka zibamo ubwoko bwinshi cyane bugiye butandukanye, kandi bugira akamaro kagiye gatandukanye. Ambilanse bayifashisha bari gutwara abarwayi ku bitaro, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse, kandi kugira ngo bagereyo bihuse. Igendera ku muvuduko wo hejuru, ku buryo n'iyo igonze umuntu itabasha guhagarara. Kubera yuko iba iri ku muvuduko mwinshi.

Moto ni nziza cyane. Igira amapine abiri. Kandi igendera ku muvuduko mwinshi cyane. Ku buryo iyo utwaye umuntu agenda ari gufata akayaga kenshi cyane akishima.

Imodoka ni nziza cyane, kuko zitwara ibicuruzwa zibivana mu gihugu kimwe zikabijyana mu kindi, maze bigatuma abaturage babona ibyo guhaha kandi biri ku mafaranga makeya, bidahenze mu Rwanda.

Moto ni nziza cyane itwara abagenzi usanga ifite amapine abiri, kandi igenda igenderwaho n'abantu babiri gusa ku buryo iyo uteze moto ikujyana aho ugiye vuba, kuko igendera ku muvuduko wo hejuru bigatuma ugenda unezerewe cyane.

Imodoka ni nziza cyane kuko zidufasha gutwara umuzigo, tuwujyanye mu masoko agiye atandukanye hirya no hino, maze abaturage bikabagereraho igihe kandi bakawucuruza neza, badahenzwe ku buryo buhagije bakanezerwa bihebuje maze bakishima.

Imodoka ni nziza cyane kuko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bikorwa bigiye bitandukanye, hari imodoka zidufasha kuzana ibicuruzwa zibivanye mu gihugu kimwe zibizanye mu gihugu cyacu, maze abaturage bakabona ibicuruzwa byinshi bakabibona bihendutse ku mafaranga makeya yo hejuru, bigatuma bagira ubuzima bwiza cyane .

Amagare ndayakunda cyane afasha abantu kugera iyo bageze bihuse cyane, bigatuma umuntu agera mu kazi neza anezerewe, kubera yuko nta n'impanuka aba yahuye mu muhanda kandi atananduye, kubera yuko aba yagendeye ku kinyabiziga cyiza cyane.

Imodoka zibamo amoko menshi cyane agiye atandukanye. Hari amaremare atwaraga abagenzi benshi, kandi bakagenda neza badacecitse, kandi banezerewe.

Indege ni nziza cyane iraguruka mu kirere maze uyibonye uri hasi ukumva nawe waguruka nka yo kubera yuko ubona iri kuguruka neza bitangaje.

Imodoka zibamo amoko menshi cyane, agiye atandukanye, hari amamodoka maremare, ayo ngayo atwara abagenzi benshi cyane, kandi bakagenda batabyigana, bakagenda banezerewe.

Amagare ndayakunda cyane , aduha umunyenga , tukagenda tunezerewe cyane . Kandi agafasha na ba bantu bafite amafaranga make , kubona uburyo bagere iyo bagiye amahoro , nta kwigunga , n'amahoro menshi muri byose.

Mu Rwanda tugiramo ibinyabiziga byinshi cyane bigiye bitandukanye, bitwara abagenzi Usanga harimo imodoka nini ndende zitwara abagenzi benshi, hari n'izindi zitwara imizigo, ndetse na moto zitwara abantu, bakagenda ku muvuduko uri hejuru.

Ibamo amoko menshi cyane, agiye atandukanye, haba rero siporo yo kwiruka, iyi siporo ni nziza, kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi ikarwanya n'indwara nyinshi, zigenda zitandukanye nka diyabete.

Siporo ni nziza cyane ituma amaraso atembera neza mu mubiri ukarinda siteresi ,ugafasha n'abantu barwaye indwara zitandukanye nka za diyabete zigenda zikira , kandi igakomeza n'amagufwa mu mubiri wacu.

Siporo ni nziza cyane kuko idufitiye akamaro gakomeye cyane, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Siporo ituma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi igakomeza amagufwa. Kuko ituma n'indwara zimwe na zimwe zigenda zikendera nka diyabete. Izo ngizo iyo ukoze siporo nyinshi cyane bituma ugira ubuzima bwiza.

Umukino wa vore ni mwiza cyane. Utuma abantu bishima, kandi uhuza impande ebyiri zigiye zitandukanye, zambaye imyenda igiye idasa, maze ukabona ari byiza.

Umupira wa handibolo ndawukunda cyane, kandi nkunda n'abakinnyi uburyo baba bambaye imyenda myiza cyane itangaje. Maze noneho naba ndikuyireba bikanshimisha cyane nkanezererwa.

Nkunda abakinnyi ba basiketibolu, batuma nishima cyane. Noneho iyo ndi kubareba nicaye, bituma nduhuka mu mutwe, bikandinda siteresi z'umubiri mu buzima bwanjye bwa buri munsi.

Mu Rwanda, tugiramo imikino myinshi cyane igiye itandukanye, usanga abakinisha ibintu bigiye binyuranye, nka vore bakinisha amaboko maze ukabona ari byiza kandi bambaye imyambaro myiza.

Umupira w'amaguru ndawukunda cyane. Akenshi ukunda kubera ku ma stade agiye atandukanye nka sitade amahoro, ubworoherane, ndetse n'ahandi henshi cyane hatandukanye, maze abantu bakagenda kuwureba bagataha banezerewe cyane.

Nkunda amarushanwa y'amagare usanga abagiye mu marushanwa bambaye imyenda myiza cyane kandi ibafashe maze bigatuma banyonga neza nta gihunga banezerewe.

Umupira wa bako ni mwiza cyane utuma amakipe menshi ahura mu gihugu hirya no hino, kandi amagezi yabo ubona ari meza cyane atangaje ku buryo kuyareba wumvanayo akunejeje cyane bigatuma wishima bihebuje.

Nkunda abakinnyi ba hendiboro cyane. Iyo bari gucengana bituma nishima cyane, bigatuma noneho amaraso atembera neza mu mubiri.

Amarushanwa y'amagare ni meza atuma umuntu yishima cyane, kandi uri gukora ayo marushanwa bimuteza imbere, kuko iyo aba uwa mbere arahembwa bikamunezeza.

Abakinnyi ba basiketi ndabakunda cyane iyo bari gukina bari kunaga mu gapaniye, numva nishimye cyane kandi ku buryo wumva muri wowe wuzuye umunezero n'ibyishimo, kubera yuko siporo ni nziza, ni nziza cyane mu buzima bwawe.

Abakinnyi ndabakunda cyane. Kuko bakunda kwambara imyenda myiza cyane, ifite amabara meza agiye atandukanye. Usanga bambaye kandi n'inkweto nziza bita godiya.